Inzu nini y'umweru, iri mu gipangu kiganjemo ibara ry'umweru, ivu, umukara ndetse n'igitaka, ikaba ikikijwe n'igiti kinini n'ubusitani imbere y'iyo nzu, hari icyapa kiranga umuhanda.